Ikaramu z'ibiti bandikisha zirikumwe n'irati bapimisha bareba uburebure bw'ikintu ndetse hakaba hari umukasi bifashisha bakata impapuro imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, hakaba hari n'utundi dukoresho.

Ku kigo cy'amashuri hari ibyumba byinshi ndetse hari guhera mu bana b'inshuke kugeza bana biga mu mashuri makuru, niho haza abana benshi baturutse impande n'impande kwiga n'abarezi babigisha kugira ngo bamenye ubwenge.

Ameza atetseho ibikoresho bitandukanye, harimo amakaramu yo kwandikisha, imikasi ikata imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, amakayi bandikiramo ndetse n'ikaramu z'ibiti, byose byifashishwa mu mirimo itandukanye.

Ku kigo cy'amashuri cyubatse neza, kikaba gifite ubusitani bwiza ndetse hagati hakaba hamanitsemo ry'Igihugu, hakaba hakikijwe n'ibiti byiza kandi birebire, hakaba hari umugore ukora amasuku uri kugenda wambaye imyenda itukura ndetse afite n'indobo mu ntoki.

Ku kigo cy'amashuri, hanze hari abanyeshuri bose bakigamo, bakaba bari kuganirizwa n'umurezi wabo ababwira uko bagomba kwitwara ndetse ababwira ibyo bagomba gukosora kugira ngo barusheho kwiga neza.

Ku kigo cy'amashuri aho abana baturuka impande n'ipande baza gukura ubumenyi haparitse igare, ndetse hari intebe iteretse ku rubaraza abaza gusura abanyeshuri bicaraho, cyangwa ababyeyi baje kureba uko abana babo biga.

Ikigo cy'amashuri giherereye i Nyagatare, hari abarimu bane bahagaze ndetse bakaba bari kumwe n'abanyeshuri, bakaba bari kubabaza ibibazo bitandukanye.

Ku kigo cy'amashuri abanyeshuri bateraniye hamwe, ndetse n'abarezi babo bakaba bagiye kubaha indangamanota, kugira ngo bamenye amanota bagize, ndetse bakamenya n'aho bahagaze kugira ngo barusheho kwiga neza amasomo yabo.

Itsinda ry'abantu rivuye mu nama kwiga ku kibazo cy'imiyoborere, hagati mu gihugu ndetse no hanze yacyo, bakaba bavuye kugira amasezerano bagirana kugira ngo abaturage bazajye babasha kujya mu gihugu bashaka.

Mu muhanda muri kaburimbo, hari inzira yabugenewe y'abanyamaguru, hakaba harimo abakobwa babiri bari kugenda baganira, iruhande rwabo hakaba hateye indabyo nziza ndetse hepfo yazo hakaba hari n'ubusitani bwiza, burimo ibiti birebire.

Itsinda ry'abaturage ryateraniye hamwe, higanjemo urubyiruko imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho amazi yo kunywa, ndetse n'ibitabo bari kwandikiramo bakaba babahaye imipira isa, ndetse bakaba bari kubaganiriza uburyo ki bakwiteza imbere.